Abana biga mu ishuri ry'incuke bari kwiga bakurikiye ibyo umurezi wabo ari kubasobanurira.

Kwigisha abana bakiri bato gusiga amabara, bibafasha mu kwaguka mu bwenge mu bijyanye n'ubugeni bakora imitako.

Amashuri y'incuke arafasha mu gutuma abana bagira imitekerereze yagutse kandi yihuse mu gusubiza ibyo babajijwe.

Imfashanyigisho ishushanyije yerekana ibyo kurya bitandukanye nk'imyumbati, inkoko zibaze n'ibindi bifasha umwana kumusobanurira akabyumva neza.

Ishuri ry'incuke rigezweho riherereye Nyagatare abana bigiramo, bikabafasha gukura bakunda kwiga banafungutse mu mutwe.

Kuba ahantu hari abana bisaba kuba ufite ibikinisho bifashisha mu mikino yabo, bitabavuna babasha gukoresha.

Amashuri y'incuke biba byiza kuyashushanyaho ibijyanye n'ibyigisho abana bakajya babikinisha bitoza kubisoma no kubivuga.

Imfashanyigisho bifashisha bigisha abana, ziba zigomba kubikwa neza kugira ngo zitangirika.

Ibishushanyo byerekwa abana ngo babyishimire, bajye bakunda gukomeza kuza ku ishuri kuko bahakunze.

Gushyira ibishushanyo ku nyubako abana bigiramo birabafasha kuko babikiniraho basobanukirwa amabara abigize n'uburyo bishushanywamo butandukanye.

Abana bakiri batoya, ubigisha wifashishije etente mu buryo bwo kubashimisha ukangura ubwenge bwabo ngo babashe gufunguka mu mutwe bakiri bato.

Iyo, urera umwana, usaba kugira, amashusho umwereka, ajyanye, n'ibintu, bijyanye n'imitekerereze ye.

Kwigisha abana b'inshuke, bisaba kwifashisha imfashanyigisho z'imikino, z'ibipupe, kugira babyumve.

Ibikoresho byifashishwa mu gushushanya usiga amabara, ikaramu y'igiti ushushanyisha, n'amakayi yo gushushanyirizaho.

Ku kigo cy'amashuri, ku muryango munini haba hagomba kuba handitseho, uko cyitwa.

Ibikorwa remezo by'amashuri byubatswe mu buryo bugezweho bugeretse bigabanya gusesagura ubutaka.

Amashuri abanza, aba asabwa kugira ibyumba bihagije no kuba yubatse ahantu hatari ibirangaza byinshi birangaza abana.

Ikibuga cy'imikino y'intoki kiba kigomba kuba gisize kugira ngo nibadundaho umupira widunde.

Umuco wo gusoma ufasha umwana kwaguka mu bwenge no gutinyuka kuvuga mu ruhame ashize amanga.

Ibikoresho bifashisha bashushanya biba bigomba kuba bifite igisibisho igihe byapfuye ukabona uko usiba.

Icyapa kiyobora aho urwunge rw'amashuri rwisumbuye rwa rukomo ruherereye n'aho rubarizwa.

Umwana kujya ku ishuri afite ibikoresho bihagije bimufasha mu myigire ye yaburi munsi, no gukorera ku gihe atabanje gutegereza ko bagenzi be barangiza ngo abatire.

Gukora ibyicaro bituma abantu bicara mu matsinda ni byiza kuko bibafasha kuganira begeranye kandi batishishanya.

Kwicara hamwe nk'umuryango mukajya inama, mukaganira byunga ubumwe muri mwebwe mukabaho mwishimanye mutishishanya.

Ikigo cy'amashuri gifite ubusitani, ni uburyo bwiza wifashisha utoza abanyeshuri kugira isuku no gutura ahasa neza.

Kugira imfashanyigisho iriho ibishushanyo mbonera byerekana ibinyampande byifashisha bashaka ubuso mu mibare, biba ari byiza mu nyigisho.

Igikapu wifashisha utwara ibikoresho nk'umutaka, ibitabo haba igikapu watwara mu ntoki, ikikapu watwara mu mugongo...

Ahabugenewe ho kubika ibikoresho byifashishwa mu isomo ry'imibare mu guca imirongo, ibiziga ndetse no gusiba ibitagenze neza.

Ubwira abanyeshuri bisaba gucunguza uburyo umwete mu buryo bwo kutabarambira, no gushaka imvugo zibasetsa zibakurura gukomeza kugutega amatwi.

Ni byiza guha abana ibiryo bibahagije kandi byateguranwe isuku, mu kubarinda ko bagirwaho ingaruka na byo no kubafasha kwiga neza batishwe n'inzara.

Mu gutanga ikiganiro ni byiza ko uvuga ushize amanga, kuko bikururira abakumva bakifuza gukomeza kugutega amatwi.

Ibyumba by'amashuri bihagije bigabanya ubucucike mu banyeshuri bikongera n'umubare w'ababona akazi ku barimu.

Gutega amatwi ukumva ibyo umwarimu akwigisha ni ingenzi cyane kuko iyo uri gusubira mu masomo yawe ntabwo ugorwa no gusobanukirwa.

Abayobozi n'abanyeshuri bahagarariye abandi bari gutega amatwi abanyeshuri bari gutambutsa impano zabo.

Gukora umurimo w'ubukorerabushake, ni umusingi ukomeye uba uba uba uhaye igihugu, mu gifasha mu gutambutsa ubutumwa bwacyo ubugeza ku bobushinzwe kugeraho.

Ushobora kwerekana intera igaragaza aho umuntu ageze n'aho uherereye umuyobora no mu cyerekezo uherereyemo.

Nibyiza kubanza kwereka umunyeshuri ibikoresho azakenera mu gihe hazaba hari aho bakorera ubushakashatsi.

Guha no gutoza abanyeshuri umuco wo kuba bari hamwe no kubasha gusenga no kumva amabwiriza mbere yukouko bajya mu ishuri, ni ingenzi mubu buzima bwa buri munsi bw'ikigo.

Gukora inyigo bisaba ubumenyi butandukanye, muhuza ibitekerezo mu kwirinda ko ibikorwa byazagenda nabi mu gihe iri gushyirwa mu bikorwa.

Ikigo cy'amashuri, kigwamo n'abanyeshuri baba mu kigo ndetse n'abatuye hafi bataha.

Kumvikana ku ngingo zimwe na zimwe z'uburyo mugiye guteguramo umushinga muwushyira no mu bikorwa muhurije hamwe ibitekerezo.

Kugira ibitabo bihagije mu kigo bifasha abanyeshuri kwiyungura ubumenyi mu buryo butandukanye.

Guha impanuro abanyeshuri bo mu mashuri yisumbuyeba aba ari umusingi ukomeye mu iterambere ryabo n'ahazaza heza ho kubafasha mu myitwarire.

Umwuga w'ubudozi ufasha urubyiruko kwihangira imirimo no kwitunga no kwiha icyo bakeneye badategereje ababahereza mu ntoki.

Gutanga umwirondoro wawe ni ingenzi mugihe hari gukorwa ubushakashatsi kubantu batandukanye.

Aho bacururiza imitako y'ubugeni ikozwe mu muco Nyarwanda.

Gukora umukoro n'imyitozo mu matsinda mwungurana ibitekerezo ku bibazo mwahawe.

Ubugeni busaba ubuhanga, mu gusigura, icyo uwabukoze, yashakaga, kuvuga, n'ubutumwa, yumvaga yatambutsa, yatambutsamo.

Indahiro itangwa n'abanyeshuri basoje amashuri ya Kaminuza ko batazatatira igihango bagiranye n'ikigo cyabahaye ubumenyi.

Kwiga wifashishije ikoranabuhanga rya mudasobwa birafasha, mu gukora ubushakashatsi ku mbuga nkoranyambaga.

Ihuriro ry'urubyiruko riteze amatwi impanuro bahabwa n'abababanjirije mu cyerekezo bari kwerekezamo, kugira ngo bazigireho amakuru.

Inyubako nini zishyirwaho amanimero ku miryango kugira ngo igihe umuntu ayobora undi aho yaba aherereye, akamubwira akoresheje iyo mibare iba yashyizweho.

Imyubakire igezweho ijyanye n'igihe, ifite esikariye zizengurutswe na bariko zitangira abantu kuba bajya mu byago byo kuba bakikubita hasi.

Ibyuma kabuhariwe mu kuvumbura indwara kubikoresha bisaba kuba ufiteho ubumenyi buhagije.

Intebe zo kwicaraho zigezweho ziba zifite aho bifashisha bandika ushobora no gutereka mudasobwa.

Aho ukorera cyangwa mu cyumba cy'uruganiriro, ni byiza gushyiramo imitako kuko iharimbisha hagasa neza.

Imbaga y'abanyeshuri bicaye hamwe bakaba bari mu muhango wo gutanga impamyabumenyi n'impamyabushobozi ku mugaragaro mu banyeshuri barangije kaminuza.

Ibikoresho gakondo bikozwe mu buryo bw'ibumba ariko byifashishwa mu mitako no mu nzu ndangamurage.

Inyubako zifite amacumbi abantu bifashisha, zikunzwe gushyirwaho amadirishya ahantu hirengeye ubusitani kugirango abararamo bajye barebesha amaso hanze babone hasa neza cyane.

Ubukorikori bwaho bifashisha bashyira indabo cyane cyane murugo no ku mahoteli n'ahandi hantu bashaka kugaragaza ubwiza bifashisha ubu bukorikori ariko badashaka kwanduza ahantu.

Ikizamini cyerekana ikigero umunyeshuri, ariho mu gukurikirana, ibyo yahawe, n'umwarimu.

Ubugeni bushushanyije mu buryo bw'amarangi, bwerekana isura y'umuntu wambaye amarinete.

Aho wicara udasabye ameza, hari aho wakwifashisha urimo urandika cyangwa uri gusoma, cyangwa ukarambika telefone yawe.

Ubugeni ni ururimi abanyabugeni bakoresha bavuga igitekerezo cyabo, babinyujije mu bishushanyo.

Umunyeshuri mwiza ni ukurikira ibyo mwarimu amwigisha kandi akaza no kwisubirishamo kugira ngo igihe k'ibazwa nikigera azabitsinde neza.

Gukora ubugeni bukozwe mu ibumba bisaba ubuhanga bukomeye n'imitekerereze ku bwo urimo uratunganya ikibumbano.

Ama esikariye afite baliko zirinda abantu kuba bagwa. Munsi yayo harimo umutako ushushanyije mu bugeni bw'amarangi hagaragaramo uduseke dusanga mu muco nyarwanda na Bibiliya.